Uyu munyonzi w'igare wambaye agapira ka oranje n'ipantaro ya kake, utwaye igare, azamuka mu muhanda ukikijwe n'inyubako z'ibisenge birebire n'amapoto n'ibyapa bigiye bitandukanye.

Aba ni abaturage barimo abagabo n'abagore, urubyiruko. Aho ubona ko bishimye bari kubyina, inyuma hari igishushanyo cyanditseho inkiko gacaca ubutabera bwunga, mbese barishimye.

Iri ni itegeko nshinga ry'u Rwanda nk'uko bigaragara riri mu ndimi zigiye zitandukanye, Ikinyarwanda, Icyongereza n'Igifaransa, aho bari kwerekana ingingo ya cumi na rimwe gukoresha umutungo wa leta icyo utagenewe ndetse n'ingingo ya cumi na kabiri gukoresha nabi umutungo ufitiye rubanda akamaro.

Iri ni itegekonshinga ry'u Rwanda, nk'uko bigaragara harimo ingingo zigiye zitandukanye ziri mu rurimi rw'Ikinyarwanda, urw'Icyongereza, n'urw'Igifaransa. Aho mu Kinyarwanda harimo ingingo ya cumi n'icyenda rivuga kutaryozwa icyaha cya ruswa; harimo n'ingingo ya makumyabiri, ubunyagwe bw'umutungo ukomoka ku cyaha cya ruswa; ndetse n'ingingo ya makumyabiri na rimwe, ukudasaza kw'icyaha cya ruswa.

Uru n'urupapuro, ruriho itegeko nshinga y'u Rwanda, biri mu ndimi zigize zitandukanye, mu Cyongereza, mu Kinyarwanda, ndetse no mu Gifaransa.

Iyi ni inyubako ndende cyane ya gereza y'abagore bambara oranje ndetse n'iroza, uri kumwe n'abarinzi babo ndetse n'ababitaho.

Uyu mugore uri mu ishusho ry'ibara ry'idarapo ry'u Rwanda arimo aratora, aho afite agapapuro kanditse uwo watoye ndetse n'ikaramu ameze nk'uri gushyiramo ako gapapuro mu isanduku bashyiramo abo watoye.

Uyu mumotari wambaye ijire rya MTN ndetse na kasike, akaba aparitse imbere y'inyubako y'igipangu cy'umukara, inyuma y'iyi nyubako hari etaje ndende nziza cyane.

Uyu muhanda ukikijwe n'ibiti birebire biteganye na rigo icamo amazi, dore ko harimo n'imodoka irimo irazamuka itwaye abagenzi, ibisikana na moto irimo iramanuka hepfo.

Uyu ni umuhanda urimo urujya n'uruza rw'abantu n'ibinyabiziga, ibinyabiziga byiganjemo moto ndetse n'imodoka, urabona ko ku ruhande haparitse abamotari benshi hari n'abagenzi bari kubagana.

Iki gikamyo cy'umutuku kiriho umuntu ugitwaye, kiri mu muhanda uzamuka ukikijwe n'ibiti byinshi ndetse na rigore inyuramo amazi hirya yawo.

Aka ni agace karimo inzu nziza zifite ibisenge byiza bigiye bitandukanye z'amabara atandukanye, aho hari izifite ibisenge by'umutuku, iby'ivu, ibisa ubururu bwerurutse, ibisa icyatsi, mbese ni umudugudu w'inzu nziza ziri hamwe.

Uyu muhanda uherereye i Remera aho ubona ukikijwe n'inyubako nziza, ukikijwe n'amaresitora harimo nka restora KFC, ndetse urimo uragendwamo n'abantu batandukanye ndetse n'imodoka nyinshi zirimo urujya n'uruza.

Uyu muhanda mugari ukikijwe n'inyubako ndende n'ibiti birebire, hirya ruguru haparitseho imodoka nyinshi zitandukanye ndetse na moto, umugenzi arimo arambukwa imodoka na zo zizamuka ndetse na moto zibisikanya n'iyi kwasiteri irimo irazamuka.